Aha ni ahantu hafatirwa icyo kunywa, ndetse n'icyo kurya kijyanye n'inzoga, kandi ni ahantu heza cyane.

Niheza cyane, iyo uhasohokeye ugiye kunywa akantu ndetse no kurya ibiryo, hagaragara neza, kandi habereye ijisho.

Aha ni ahantu hacururizwa inzoga zitandukanye bita zawayini. Harimo zawayini nziza kandi zihenze cyane.

Burushete iraryoha cyane. Iyo uri kuyirya ukanarisha n'ikirayi cya mucoma. Burushete ni inyama umuntu wese akunda, kandi akenera ku buzima bwe.

Aha n'ahantu muri resitora hateguwe neza intebe z'imbaho ndetse n'ameza, ndetse n'urusenge rwubakishijwe ibiti rusa nkaho rufite n'amatara meza ndetse n'imitako igize abantu.

Icyo kunywa ibita mintsingi, mitsingi ni nziza ku bantu bayishoboye, kandi ikabana mbi ku muntu uyinywa atayishoboye, ndetse akaba yanakora n'ibidakorwa.

Aha ni ahantu heza cyane, hari tabure nyinshi zitandukanye ndetse n'abakiriya, kandi hari amatara meza yaka umuhondo ndetse hateguranye isuku.

Amafi araryoha cyane, cyane cyane iyo avuye mu kiyaga bagahita baryotsa cyangwa abaka yakabusha kuko amafi n'ibinyenyanja biryoha cyane.

Aka ni akazu cyangwa agakiyosike, gakorerwamo serivisi zijyanye no gucuruza amayinite ya eyateri mane, ndetse no kugurisha simukadi.

Kantine ushobora kujya gufatamo icyo ushaka, kijyanye nk'amata, ikivuguto, icyayi ndetse na mukaru. Ugafatisha n'amandazi, keke ndetse n'umugati.

Ibi n'ibikoresho bitandukanye harimo amasafuriya, indobo, amabase, ibikombe ndetse n'ibindi byiza ndi kubona bigaragara nk'utudobo dutoya.

Keke ziraryohama cyane, kuko uyirya yonyine cyangwa ukayinywesha igikoma. Keke ni umugati mwiza uryohera abantu bakuru ndetse n'abato.

Iri ni isoko ricuruza ibintu bijyanye n'ibikoresho byo mu nzu, ndetse n'iby'abana. Hari ibase, hari po z'abana, ndetse na makuvureri biyorosa, ndetse n'intebe zitandukanye, za Sheze n'ibitanda.

Iki ni icyapa kigaragaza ko hano bahafurira imyenda, ndetse bakanahanagurira amakoti na tapi ndetse n'intebe. Ni ahantu ubasha kugera bakaguha serivisi ukeneye, bitewe n'cyo ushaka gukoresha.

Aha ni akabare kitwa kalasike pab aka kabari ni akabari keza cyane iyo ufite nk' inyota ujyamo, ukagura icyo kunywa kandi kitaguhenze ndetse habamo n' ibiryo gaherereye ku muhanda.

Imiti yifashishwa mugutera imyaka yacu tuyirinda indwa, ra nk'indwara z'udusimba ndetse nama bagiteriya aturuka mu butaka.

Aka ni akagare kifashishwa mu guterura imizigo bidasabye ko uyitwaye avunika ahubwo ashyira muri aka kagare agakurura, harimo: sana, umuceri, supadipe, ndetse n'amavuta, bityo gafasha uwikoreye umuzigo kutavunika.

Imyenda ni myiza cyane iyo wambaye neza ugaragara neza, ndetse iyo ushyizeho n' agakweto keza abantu babona ko wambaye neza bishimishije.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'imyenda y'abakobwa, ndetse myiza, n'ibicuruzwa birimo nka poshete, amasharijeri, ndetse na za antiboroke.

Iri ni iduka ricuruzwamo ibintu bitandukanye, hariho gaze, sorwatomu, amaji, ndetse n'udufuka tw'umuceri, ndetse n'amakarito y'amazi, irimo umuguzi ndetse n'umucuruzi.

Kugira konti muri banki ni byiza, kuko bigufasha kuba wakwizigamira ndetse ugafata n'inguzanyo, ukaba wakwiteza imbere.

Aha ni mu masoko hafi ku maduka, hariho abantu benshi b'abakiriya ndetse n'abacuruzi ndetse aya maduka, aherereye ku muhanda ahantu heza cyane.

Aha ni mu iduka ririmo ibiribwa bitandukanye umuceri, kawunga, amavuta, ndetse n'amasabune ,ndetse na pampa z'abana. Aha hantu ni heza harimo byinshi bitandukanye.

Icyapa kigaragaza aho abantu bafatira amacumbi bitewe n'igihe barimo, nk'ubu wagize urugendo utaragera aho ushaka, ushobora gufatamo icyumba ukaryama ukaruhuka.

Iri ni iduka rikorerwamo ibintu bijyanye no gusuka, ndetse no kogosha, kandi gusuka ni byiza, cyane cyane gutunga umusatsi wawe wa natireri.

Aya ni amazu akorerwamo ubucuruzi, harimo n'akazu k'icyicaro cya airtel kagurishwamo ibikoresho by'ikoranabuhanga nka materefoni, pushete ndetse na za antiburoke.

Iyi ni inzu ikorerwamo ubucuruzi butandukanye, harimo: imiceri, amavuta, kawunga ndetse na za korogati hirya hari iduka ricuruza imiti.

Izi ni matela nziza cyane za Rwandafomu zikoranywe ubuhanga ndetse izi matela, zifite amabara menshi atandukanye kandi meza.

Moto ni nziza cyane, kuko ni ikinyabiziga cyiza cyihuse. Iyo uteze akamoto ukagenda ahantu, bigusaba kwihuta kubera ko moto nta bwo ari nk'imodoka.

Igipangu ni cyiza cyane kuko kigufasha kwirinda abajura cyangwa abantu bagendagenda mu ngo z'abandi. Igipangu gifite amarangi y'ubururu ndetse cyubatswe neza.

Aya ni amazu akorerwamo ibintu bijyanye n'ubucuruzi ndetse no kugurisha ibyuma. Impande yaho hari igiti kiza bita umusave, ndetse n'abakiriya, ndetse n'ibikoresho hanze y'iduka.

Iri ni iduka rikorerwamo ibintu bijyanye no gufotora ndetse no gusikana impapuro, aha hantu uhajya iyo ugiye gufotoza nk'icyangombwa bakakigufotorera bakaguhamo kopi y'ikintu kimwe n'ikindi.

Aya ni amazu akorerwamo ubucuruzi, hari abakiriya ndetse hari n'imifuka y'amakara, ndetse n'umunyegare upakiye imizigo.

Aya ni amazu, akorerwamo ubucuruzi butandukanye ndetse aya mazu, ari ku muhanda akozwe neza cyane kandi hafite n'isuku.

Iyi ni inzu ikorerwamo ubucuruzi butandukanye, hariho gaze, umucuruzi, imyenda, imiti, uyu mucuruzi aricaye ategereje abakiriya.

Aha ni mu iduka ricuruza ibintu bijyanye n'imiti, ndetse n'amapombo yo guteresha ibimera umuti. Harimo imiti bita detani ndetse na za tiyopo.

Aha ni mu masoko cyangwa mu iduka, rikorerwamo ubucuruzi butandukanye, ndetse habamo n'ibicuruzwa byiza kandi bihendutse.

Iki ni icyapa kigaragaza ibintu bacuruza harimo: inkoko, ifi, ifiriti, burushete, agatogo, boyiro, igiti, n'igisafuriya, ndetse n'akabenzi.

Amabase ni meza cyane. Kuko uyifashisha mu gufuriramo imyenda, ndetse no kogerezamo ibintu, n'ibikombe ukoresha uri kunywa amazi cyangwa bigikoma.

Iyi gare iparikamo amamodoka menshi, kandi ukaba wakatisha imodoka ikujyana mu karere ikuvana mu kandi. Muri gare ntabwo upfa kubura imodoka.

Ibi ni ibyuma bishaje, babikoramo ubucuzi, ndetse bakanabigurisha bagakoramo ibindi bikoresho bishyashya kandi byiza cyane.

Iri ni iduka ricuruza ibikoresho bijyanye na poshete za terefone, sharijeri, ekuteri ndetse n'imashini zo kogoshesha, ndetse n'amaterefone.

Tangawizi ni nziza cyane, kuko ari umuti ugufasha kwivura amagiripe, ndetse n'ibindi n'indimu nayo ni nziza cyane kuko igufasha kwivura inkorora, n'ibitunguru nabyo nuko ni umuti ndetse na za pavuro uteka mu biryo.

Aha ni ahantu tugurira imbuto zitandukanye. Hari abamama bari gucuruza imbuto harimo amatunda, imyembe ziri mu gatete. Mbese hano uhagurira icyo ukeneye kijyanye n'imbuto kuko imbuto ni nziza ku muntu.

Aya ni amasafuriya yapfumutse, baje gukoresha kugira ngo abe mashyashya, cyangwa bayasudire babone uko bayatekeramo.

Imyenda ya matisi ni myiza cyane, iyo bayikudodeyemo nk'agakanzu ubona usa neza ukagaragara neza cyane, imyenda y'amatisi uyidodamo indodeshanyo ushaka yose.

Iri ni isoko ribamo ibicuruzwa ndetse n'ibiribwa bitandukanye, harimo amabase, imyenda, ibishashi bafatamo imizigo, ndetse n'umuntu wicaye ku ruhande hafi y'iduka rye.

Bino ni ifu ikozwe mu bigori ndetse no mu ngano, iraryoha cyane, igurishwa ku isoko bitagusabye kubanza ngo ujye gushesha, ahubwo uyigura ishesheje kandi inafunze.

Aha ni mu biraro by'inkwavu ndetse n'inkoko, aho inkoko zitera amagi ukayarya cyangwa akagurishwa ku isoko, ukabasha kubona amafaranga ukagura ikindi ukeneye.

Kawunga ya Mbare iraryoha cyane, igezweho kandi igira icyanga mu kanwa, ku bayirya ntibifuza kurya indi kawunga itari Mbare.

Ibikoresho byo mu nzu tubyifashisha turi mu masuku, amasafuriya tuyatekeramo, amabase tukayafuriramo, ibirushe tukabyaruza ibiryo ndetse n'indiga tukazihatisha ibyo tugiye guteka.

Keke ziraryoha cyane, zikozwe mu gitubura ndetse no mu ifu, kandi keke iyo uyiriye ukayinywesha n'igikoma wumva ari sawa cyane.

Imbabura ni nziza cyane kuko tuzifashisha turi guteka, ugashyiraho amakara ukaba wateka neza udakoresheje inkwi, ngo wenda wanduze ikirere.

Aha ni mu isoko ricuruza ibintu bijyanye n'ibyo kwiyorosa uburingiti, imyenda y'abana, imitaka, ndetse na za kigoma bahekamo abana.

Iri ni isoko rinini. Ndetse dore na esanseri zishobora kugufasha mu kuzamuka, cyangwa mu kumanuka, udakoresheje esikariya cyangwa utivunishije.

Izi ni imboga ziryoha cyane， zitwa shufureri，ziri mu base y'umutuku，hari shufureri zisa gutya， ndetse n'izisa n'umweru， shufureri ziraryoha cyane.

Izi n'imboga nziza cyane zirimo ibibiringanya, pavuro ndetse na tungurusumu, n'ibitunguru ndetse na peresile. Izi mboga ziraryoha cyane.

Kokombure ni igihingwa cyiza cy'umuti, kokombure ni umuti mwiza cyane, ndetse na shufureri n'imboga nziza cyane, ziryosha ibiryo.

Gakoco ikoreshwa mu gutega imbeba iyo zakuzengereje ushiraho nk'ikirayi cyangwa umugati maze imbeba yaza ije kurya ihita igwa mu mutego.

Mu isoko ry'ibiribwa mu bisima, hacururizwamo imbuto zitandukanye, iri soko ni ryiza cyane, kuko rikozwe ku buryo bwiza cyane, bugaragarira amaso.

Aha ni mu isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye harimo gombe, amatureyi y'amagi, ndetse n'abakiriya bari kugura ibyo bicuruzwa.

Iri n'iduka ricuruzwamo ibintu bitandukanye nk'ibikoresho byo mu nzu, hari amadobo, amasahani, ibirahure ndetse n'ibiyiko, ndetse n'imineke ku ruhande.